Imbwa ihagaze ku buriri ubona ko ifite igikomere ku kuboko, bakaba bayipfutse mu rwego kugira ngo bahe serivise zijyanye n'ubuvuzi, imbwa nazo zifite ubuzima nk'ubw'abantu ku buryo igihe zirwaye ari ngombwa ko zijyana kwa muganga bakazivura.

Abantu bateraniye hamwe barimo guhinga ubona ko bari mu ishyirahamwe. Gukorera hamwe ni byiza kubera ko abishyize hamwe ntakibananira, hakaba ari abasore ndetse hakaba harimo n'abagore. Iruhande rw'aho bari hari igiti kinini kigandaye, hakaba hari n'insina iruhande rwaho.

Ibigori bipakiye mu buhunikiro, akaba ari ibigori byashyizwe ahantu heza hizewe kubera ko ari byiza kubishyira ahantu hizewe, kugira ngo ubudahangarwa bwabyo bukomeze bubungabungwe.

Amahundo y'amasaka, akaba ari amasaka yaciwe mu rwego kugira ngo yanikwe ubundi ahurwe, abikwe, hanyuma azakoreshwe ibyo yagenewe. Ni byiza gusarura amasaka yawe igihe yeze kubera ko uyarinda inyoni.

Ibiti birebire bya sipure, akaba ari ibiti bikomera cyane kubera ko iyo ugikoreshejemo igikoresho kidapfa gusaza. Ni byiza gutera ibiti kubera ko bituma haboneka umuyaga ndetse n'amahumbezi kandi ibiti birwanya isuri.

Abantu bari muri pepenyeri, barimo gukorera ingemwe z'amatunda. Ni byiza gukorera ingemwe zawe neza mbere y'uko uzijyana mu murima, kubera ko iyo uzijyanye mu murima zikura neza bitakugoye. Rero twihatire kwinaza ingemwe zacu tubikoreye muri pepenyeri.

Isoko ricururizwamo imbuto z'amoko atandukanye. Hari imineke, watermelon, oranje ndetse n'ibindi. Ni byiza kurya imbuto kubera ko zituma ubuzima bwa muntu bumera neza ndetse akazagira amasaziro meza.

Imbuto z'amoko atandukanye harimo indimu, amatunda, ibinyomoro ndetse n'amaronji, ni byiza kurya imbuto kubera ko umuntu urya imbuto ahora ameze neza, afite akanyamuneza, afite itoto yishimye ndetse n'ibindi.

Abantu barimo gukorera ibishyimbo babibagara mu rwego rwo kugira ngo bizere neza nta byonnyi bibijemo, ni byiza gukorera ibishyimbo byawe kubera ko bigira umusaruro mwiza ushimishije, akaba ari umubyeyi umwe ndetse n'abana babiri.

Umugabo urimo kuhirira imboga ze mu rwego rwo kugira ngo zikomeze gukura neza zitohe, hanyuma igihe cyo gusarura azabone umusaruro mwiza ushimishije. Inyuma ye hakaba hari ibihuru bigaragara ko hari ahantu hadahinze.

Ahantu hasa neza cyane hari amazu yasakajwe amabati, hakaba hari ibiti birebire ubona ko bikurura umuyaga ndetse bigatangagwa n'amahumbezi, hakurya hari imisozi myiza iteganye iriho amaterasi meza y'indinganire.

Ingurube iri mu kiraro, ikaba irimo kurya ibyatsi. Ifite ugutwi kuriho iherena, yarakuze cyane, ubona ko igeze mu gihe cyo kwima. Ni byiza korora itungo ryawe neza kubera ko iyo rikuze nawe biragushimisha.

Abantu benshi bafite ingurube bigaragara ko ari ingurube bagiye korora mu rwego rwo kugira ngo biteze imbere, ubworozi bw'ingurube ni ubworozi bwiza cyane kubera ko ingurube zitanga umusaruro vuba, ingurube iyo bayibangurije bifata igihe cy'amezi atatu n'ibyumweru bitatu ndetse n'iminsi itatu kugira ngo ibe irabwaguye, rero ntabwo ifata igihe kinini kugira ngo ibwagure.

Abantu barimo guha umuti inka mu rwego rwo kugira ngo bayikingire izakure neza igire ubuzima bwiza buzira umuze. Ni byiza kwita ku matungo yawe kubera ko iyo uyiseho akura neza akagira ubuzima bwiza nawe ukabona inyungu.

Abantu bari mu busitani bafite imbwa, hakaba hari umugabo wambaye isarubeti y'icyatsi bisa naho ari umuganga w'amatungo, hanyuma akaba arimo gukingira imbwa, mu rwego rwo kugira ngo azigabanyirize ubukana. Ni byiza gukingiza imbwa yawe kugira ngo igabanye amakana.

Abantu bahagaze mu busitani, bakaba bafite imbwa bisa n'aho hari igikorwa nyamukuru bazizanyemo urugero nko kuzikingiza, ni byiza gukingiza imbwa yawe kubera ko iyo wayikinjije ubumara bwayo buragabanyuka, hanyuma yazaruma umuntu ntibizamugireho ikibazo.